Inkoko nyinshi zifite amabarage atandukanye, akaba ari ubwishingizi bw'inkoko butangwa n'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi cyitwa radiant, aho umworozi yishyura mirongo itandatu ku ijana, hanyuma leta ikamwongereho mirongo ine ku ijana.

Imodoka ikoze impanuka, hakaba hari ikigo gishinzwe ubwishingizi cyitwa Radianti, cyiteguye kukugoboka mu gihe wahuye n'impanuka, ubwishingizi bw'ubuzima ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye ingofero ndetse na ekuteri mu matwi, afashe telefone ye ngendanwa mu ntoki, ari kwamamariza ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka Sonarwa, aho gifasha abantu mu kubagoboka mu gihe bahuye n'ibibazo.

Umuhungu ndetse n'umukobwa bicaye mu modoka ubona bari kuryoherwa n'ubuzima, kubera ko bafashe ubwishingizi mu kigo cyitwa Radiant, icyerekezo cy'inzozi zawe.

Amazu yasenyutse, ibiribwa byangiritse ndetse n'izindi nyubako, bikaba bigaragaza ko twageze mu gihe cy'imvura ko ushobora kwirinda kuzicuza nyuma, ahubwo ukagira ubwishingizi bw'inyubako maze ukagira umutekano usesuye.

Kubera ko impanuka idateguza, ikigo cy'ubwishingizi cyitwa radianti cyakuzaniye uburyo ushobora kugura ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima ukanze imibare cyangwa ukabahamagara kuri nimero yabo bakagusobanurira.

Umugabo uhagaze ufite ivarisi y'umukara mu ntoki ze, yambaye umupira w'umweru, ikoboyi ndetse n'inkweto z'umweru akaba ari kwamamariza ikigo cyitwa buritamu gitanga ubwishingizi.

Ubukomo bwinshi cyane butandukanye bufite amabara atandukanye yiganjemo umutuku, umweru, ubururu, ndetse n'umuhondo. Ubu akaba ari ubukomo bukorwa mu masaro bukundwa n'abakobwa.

Abakobwa babiri, bahagaze ahantu hamwe. Umwe yambaye agasengeri k'umweru n'ipantaro y'ubururu, undi yambaye agasengeri k'umukara, ijipo y'umweru, afite amvirope mu ntoki, ku mpande zabo hari imyambaro itandukanye.

Ibitenge byinshi cyane by'amabara agiye atandukanye, ibitenge bikaba bikundwa n'abamama kubera ko babyifashisha baheka abana ndetse bakanabyambara nk'imirimbo.

Ahacururizwa imyambaro y'ubwoko bugiye butandukanye, yaba iy'abagabo cyangwa abadamu, bakaba bafite ingofero nziza cyane, imipira y'amakipe, amashati ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu nzu icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo umucuruzi ndetse n'umuguzi waje amugana, aho ari kumuha serivisi zigiye zitandukanye ari kumusaba. Ku ruhande hari amakaziye.

Amashati meza y'amaboko aciye, afite imifuka ibiri imbere, akaba ari mu mabarage atandukanye, harimo ay'umuhondo, umutuku, oranje ndetse n'ubururu, akaba ari amashati akomera cyane.

Umugabo w'umunyafurika ndetse n'undi w'umunyamahanga. Uw'umwirabura yambaye ishati y'ubururu ndetse na karuvate irimo utubara tw'umutuku, ari kumwereka imbere muri mudasobwa.

Umugabo wirabura, uri kumwenyura, yambaye umupira w'umweru, isaha, imbere hari mudasobwa ndetse yafashe terefone ngendanwa mu ntoki ze, imbere ye hari umugore utari Umunyafurika, wambaye ikanzu y'icyatsi.

Ahacururizwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye, birimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibyo mu rugo. Hakaba hahagazemo umu mama utanga serivisi zo kubicuruza, afite amafaranga mu ntoki ze.

Imodoka y''umweru ifite amapine y'umukara, imbere yayo hahagaze abagabo babiri bambaye amashati n'amapantaro, bafite icyapa kigaragaza kampani yabo uko yitwa.

Umugabo uhagaze ufashe icyapa kinini kiriho izina rya kampani yabo, ku ruhande rwe hari imodoka nini iri mu ibara ry'umweru izwi nka fuso, itwara imizigo itandukanye.

Abantu batatu harimo abagabo babiri n'umugore umwe. Bafashe ikintu gifite ishusho y'urufunguzo mu ntoki zabo ndetse imbere yabo hari n'imodoka nziza cyane y'umukara. Ikorwa n'uruganda Akagera Motos.

Imodoka yo mu bwoko bwa benzi y'umukara icanye ibinnyoteri byombi ikaba iparitse ahantu, iri ku giciro cya miriyoni mirongo itanu, uyikeneye wabagana bakayiguha.

Abagabo babiri umwe wambaye umupira w'umutuku n'ingofero, bafashe icyapa kigaragaza izina rya kampani yabo mu ntoki ndetse inyuma yabo, hari ikamyo nini iri mu ibara rya oranje.

Ahantu haparitse amamodoka asa neza, ari mu mabara agiye atandukanye, bigaragara ko ari ahacururizwa imodoka, ukeneye imodoka wabagana, ugahitamo ibara wifuza.

Abagabo babiri bahagaze, bafite ikintu gifite ishusho y'urufunguzo mu ntoki zabo, inyuma yabo hari amamodoka atatu asa, afite ibara ry'umweru ry'ikigo Akagera.

Ifaranga rikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda rikaba rishushanyijeho ikibabi, gifite amashami agiye atandukanye, ndetse ryakozwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na karindwi.

umugabo ufashe amafaranga y'amanyamahanga menshi cyane mu ntoki ze. Aya akaba yifashishwa mu bihugu ibyo ari byo byose wajyamo kubera ko haje uburyo bwo kujya kuguranisha amafaranga bakaguha andi.

Amafaranga magana atanu ashushanyijeho ingagi ndetse hashushanyijeho n'abana batatu bari kwiga aya akaba yarakoreshwaga kugeza ubu ngubu ntago agikoreshwa.

Amafaranga ibihumbi bibiri yanditseho banki nkuru y'u Rwanda, iyi noti yemewe n'amategeko; hakaba hariho ikiyaga kinini ndetse akaba ari amafaranga yifashishwa mu Rwanda.

Inote y'amafaranga ibihumbi bitanu, akaba ari amafaranga ashushanyijeho ibiseke bibiri, akoreshwa mu Gihugu cy'u Rwanda, akaba ari na yo noti nkuru mu mafaranga yo mu Rwanda.

Ifaranga rimwe, rikaba ari ifaranga ryakoreshwaga mu gihugu cy'ubu Bufaransa ndetse rishushanyijeho ikirangantego kiriho igisiga n'ibindi bitandukanye.

Abagore babiri bahagaze ndetse n'umugabo. Umugabo yambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru. Umugore umwe afite telefone ye ngendanwa mu ntoki ndetse bahagaze imbere y'umuntu utanga serivisi arikuha ubufasha.

Amafaranga ibihumbi bibiri, Banki nkuru y'u Rwanda hakaba hashushanyijeho umunara munini cyane, aya ni amafaranga yifashishwa mu Gihugu cy'u Rwanda cyangwa hanze yacyo uyafite wajya kuyaguranisha.

Ahacururizwa ibyo kunywa bigiye bitandukanye byiganjemo amata ndetse n'ibiyakomokaho, bakaba bafite amaji atandukanye y'inyange ndetse na yahurute zikundwa cyane n'abana.

Indobo ebyiri ziri ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho, zikaba zirimo ibyokurya bikozwe mu ifarini, harimo ibyitwa amandazi ndetse na keke, bikaba bikundwa n'abatari bake, kubera uburyohe bwabyo.

Ahacururizwa amata higanjemo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru hari akameza kariho icyapa kiriho umwana uri kunywa amata bagaragaza ko aya mata ari meza kandi yujuje ubuziranenge, inyuma yabo hari icyuma gikonjesha amata.

Icyuma cyifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa bitandukanye, giteretsemo ibinyobwa bigiye bitandukanye, amata y'ikivuguto, amata amenyerewe nkayahurute ndetse n'amazi yo kunywa.

Amandazi menshi cyane, ari ku isahani, aya akaba akorwa mu ifarini, amavuta, akaba akundwa n'abantu batari bake muri iki gihugu, kubera uburyohe bwayo n'ukuntu aba akorarana ubuhanga.

Ahacururizwa amata higanjemo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba harimo umugabo uhagaze wambaye isengeri y'umweru, imbere ye hari akajerekani k'umweru bamushyimo amata ndetse ku ruhande hari amacupa y'amazi.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho, hakaba hari umumama wisukishije wambaye umwambaro w'akazi uri mu ibara ry'umweru ndetse imbere ye hari icyuma cyifashishwa mu gutunganya amata agakomeza ameze neza.

Isambusa, ikiribwa gikunzwe cyane n'abatari bake kubera uburyohe bwacyo; kiba gikozwe mu ifarini amavuta ndetse n'inyama abenshi bajya banashyiramo ibirayi.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amata ndetse n'ibiyakomokaho hakaba hari amazi yo kunywa imashini yifashishwa mu gutunganya amata agakomeza ameze neza ndetse n'ahantu heza cyane ho kwicara abantu baje kunywa amata.

Amata meza cyane atunganyijwe, yongewemo ibindi bintu bitandukanye nk'inkeri, akaba akundwa n'abana, ndetse n'abantu bakuru, kubera ukuntu aryoha cyane, kandi aba atunganyijwe yujuje ubuziranenge.

Umuryango usize amabara y'ubururu akaba ari ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibindi biyakomokaho; bafitemo imashini zifashishwa mu gutuma ayo mata yabo akomeza gukonja ndetse na etajeri bashyiramo utujerekani.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amata ndetse n'ibiyakomokaho, hakaba hari amata agiye ari mu ngano zitandukanye, akorwa n'inganda zitandukanye. Aho hari n'andi yitwa yahurute akundwa n'abana cyane cyane.

Ahacururizwa amata, hari ibicuba byinshi cyane, ibigiye birimo amata ndetse n'ibitarimo amata, hakaba hari abantu bari kwifashishwa mu kubitunganya neza kugira ngo babisukure.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho, hari umugabo uhahagaze, ufashe agakombe ka oranje mu ntoki ari gusukamo amata ndetse yambaye umupira w'umweru, imbere ye hari utundi dukombe twinshi.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hari abana babiri bahicaye bahawe amata ndetse n'icyo kuyarisha kimeze nka keke, imbere yabo hari umugabo uri kugenda abazanira n'ibindi bakeneye.

Ikiganza gifashe amafaranga y'amanyamahanga agiye atandukanye, ugifashe yambaye ishati, aya mafaranga akaba yifashishwa mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse harimo n'ayo mu Rwanda.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, wambaye amarinete ndetse akaba yambaye ishati y'umweru, afashe telefone ye ngendanwa mu ntoki ndetse ari kwamamariza ikigo gishinzwe gufasha abaturage, kwizigamira cyitwa Kopetu.

Uburyo umuyoboro wa mtn washyizeho, ushobora kohereza amafaranga, ukagura ama inite, ukishyura ibintu bigiye bitandukanye, nk'amazi, umuriro, cyangwa ukareba amafaranga usigaranye kuri telefone yawe.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara, yambaye umupira w'umweru, afashe terefone ye ngendanwa mu ntoki, urabona ko atangaye cyane bitewe n'ubutumwa yakiriye ndetse inyuma ye hari inzu.

Umugabo w'umunyamahanga afashe mu biganza by'iwe bibiri amafaranga agiye atandukanye, akoreshwa mu bindi bihugu azwi nk'amadolari, amenyerewe cyane mu bihugu by'abaturanyi.

Ibiganza bibiri biri guhererekanya amafaranga y'amanyamahanga, umwe ari kumuha amadolari, undi akamuha amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Nigeriya, bakaba bose bashobora kuyifashisha mu bintu bitandukanye.

Ibiganza biri guhererekanya amafaranga y'abanyamahanga, azwi cyane nk'amayero ndetse n'amadolari, aya akaba ari amafaranga yamenyekanye cyane ku isi kubera ukuntu afite agaciro gakomeye.

Amafaranga menshi cyane y'amanyamahanga, yamenyerewe ku izina nk'iry'amadolari, umuntu akaba ayafashe mu kiganza, agiye kuyashyira mu mashini iyabara kugira ngo abashe kumenya umubare wayo.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara mu imbere harimo ishati, akaba afite amafaranga y'amanyamahanga menshi cyane mu ntoki ze, aho ahagaze imbere y'ahantu bakora ubucuruzi bwo gutanga amafaranga agiye atandukanye.

Ahakorerwa ibikoresho byo mu mbaho bigiye bitandukanye; nk'intebe, ameza, ndetse n'ibitanda. Hakaba hari igitanda cyiza cyane, gifite uburebure buhagije abantu bashobora kuryama ari benshi.

Umuhanda w'amabuye urikunyurwamo n'amapikipiki, akaba atwara abantu abageza aho bagiye mu buryo bworoshye. Ku ruhande hakaba hari amazu atandukanye y'ubucuruzi ndetse n'abantu barikugenda.

Ibikoresho byo mu nzu bitandukanye bikozwe mu mbaho, hari utubati, ameza ndetse n'intebe nziza cyane, ku ruhande hari inzu zikozwe mu mabati nazo zifite amadirishya akozwe mu biti.

Ahakorerwa ibikoresho bigiye bitandukanye bikozwe mu mbaho, harimo: intebe, ameza, utubati, hari n'igitanda kinini cyane bigaragara ko abantu bakiryamaho ari benshi kandi bakisanzura.

Inyubako nziza cyane, ifite ubusitani bukeye ndetse harimo naho kwicara, hari n'umutaka munini ushobora kubarinda izuba mu gihe rihari, ukaba ushobora kuhazana umuntu wawe mukaganira.

Ahantu heza cyane, hatatswe n'amabara meza ndetse n'intebe zo kwicaraho, haratuje kandi hicaye abantu, imbere hari icyuma cy'isakazamashusho ndetse n'umuntu uri kugenda bazanira ibyo bakeneye.

Ahantu heza hari ubusitani bwiza burimo n'indabyo, hakaba hari intebe z'umukara zo kwicaraho ndetse n'ikintu kinini cy'igitaka kibatwikira mu gihe muri kuganira izuba ritabica.

Abantu benshi bicaye hamwe bigaragara ko ari icyumba kiberamo inama, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, ku meza hariho amazi yo kunywa, impapuro z'isuku ndetse n'amakayi yo kwandikamo ibivugirwa mu nama.

Icyapa kinini kiri hejuru y'inyubako, kikaba kiri mu mabara y'ubururu n'umuhondo, cyanditseho amagambo agaragaza ko ari ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi ishami ry'i Muhanga.

Abagabo batatu bahagaze ahantu hamwe bagiye bambaye bitandukanye umwe yambaye umupira w'umutuku ipantaro y'ubururu undi yambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru ndetse n'undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara. Ahagaze imbere y'ameza hariho mudasobwa ndetse n'urupapuro rwo kwandikaho.

Umukobwa uri guseka cyane ufite ikarita mu ntoki ze, telefone, ndetse n'agakapu, ku mpande ze hakikijwe n'ibikoresho bigiye bitandukanye birimo amarinete, kamera, ndetse n'inkweto.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, ari kumwenyura, yambaye ishati y'umuhondo irimo utudomo tw'umweru ndetse n'itaburariya y'akazi, ifite ibara ry'umweru, inyuma ye hari intebe nziza zo kwicaraho.

Umugore wambaye ingofero y'umuhondo, ishati y'ubururu ndetse n'akajire k'icyatsi, ipantaro y'umukara, afashe igikoresho kibika ibindi bikoresho mu ntoki ze.

Umukobwa uri guseka ufite imisatsi myinshi y'umukara, yambaye agapira k'ubururu ndetse afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze ari kwamamariza banki yitwa Eko banki.

Inzu ikoreramo ikigo cyitwa NCBA, kiri gutanga ikaze kikaba ari ishami rya musanze, aho cyegereje serivisi abaturage kugira abafite ikibazo babagane bitabagoye.

Icyumba gikoraniyemo abantu benshi bagiye batandukanye, bigaragara ko hari kuberamo inama, hari ameza ateguyeho ibitambaro by'icyatsi, abo bantu bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ibiribwa bigiye bitandukanye, hazwi nko mu isoko, hakaba harimo ibiribwa byinshi cyane by'amoko atandukanye, hari abantu bahari ababicuruza ndetse n'abaje kubigura.

Mu isoko rya kijyambere harimo ibiribwa bigiye bitandukanye byinshi kandi byiza. Harimo n'abantu benshi abari kubicuruza ndetse n'abaje guhaha. Hakaba harimo ibitoki, inyanya n'ibindi.

Umugore witeze igitambaro cy'umuhondo mu mutwe, ndetse yambaye n'ikote ry'umukara. Imbere ye hari amabase ari mu mabara agiye atandukanye harimo amafi, bikaba bigaragara ko hirya aho bakora uburobyi bw'amafi.

Mu isoko ahacururizwa imyambaro igiye itandukanye, inkweto ndetse n'ibikapu. Hakaba hari ahantu harunze inkweto nyinshi cyane z'amabara atandukanye ndetse n'ibikapu n'abantu baje guhaha.

Umumama uri ahantu bacururiza ibyo kurya bigiye bitandukanye, bigaragare ko ari mu isoko, imbere ye hari ibiribwa bitandukanye nk'inyanya, imineke, tungurusumu ndetse n'amavuta.

Ahazwi nko mu isoko, hakaba hari ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'abantu benshi cyane baje kubigura n'abandi babicuruza, hakaba harimo imineke, ibirayi ndetse n'ibitoki.

Mu isoko rya kijyambere hacururizwa ibiryo bigiye bitandukanye, harimo umugore uhagaze n'undi umuhagaze ku ruhande uhetse umwana ndetse ku ruhande hari urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane.

Mu isoko ahacururizwa ibyokurya bigiye bitandukanye byiganjemo karoti, intoryi, urusenda, puwavuro, ndetse n'ibindi byinshi. Hakaba hari abamama babicuruza ndetse n'abaguzi.

Abagabo batatu bahagaze ahantu hamwe, bambaye ibintu bitandukanye; bahagaze ahantu hacururizwa ibikoresho bya kinyarwanda: ibiboshye, ibidoze mu bitenge ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ahacururizwa ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'imbuto ndetse n'ibindi, hakaba hari umukobwa ubicuruza wambaye umupira w'ubururu, itaburiya y'ubururu bwijimye, hari uwaje amugana wambaye umupira utukura.

Akazu k'umuhondo k'ikigo cy'itumanaho cya MTN, harimo umugore wambaye umwambaro w'umukara ndetse hanze yako hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Mu nzu irimo umugabo wambaye ishati y'umweru irimo uturongo ndetse n'umugore wambaye umupira w'umweru ufite ijosi ry'umuhondo, imbere ye hari mudasobwa akaba ari guha serivisi abaje bamugana.

Umumama w'inzobe uri kumwenyura cyane, yambaye akagofero k'umweru ndetse yambaye n'itaburariya y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo, afite akantu kajyaho kode y'umucuruzi.

Akazu k'umuhondo k'ikigo cy'itumanaho cya MTN, kakaba gakoreramo umukozi utanga serivisi zigiye zitandukanye ku bamugana, zirimo kubitsa, kubikuza, cyangwa kuba bakohereza amafaranga.

Akazu k'umuhondo k'isosiyete y'itumanaho ya emutiyeni, imbere yako hahagaze umu mama wambaye agapira k'umukara, ipantaro y'ubururu, ndetse n'abandi bagabo babiri bakaba bari guhabwa serivisi zitandukanye.

Akazu k'umutuku k'isosiyete y'itumanaho ya MTN, gakoreramo umukozi utanga serivisi zitandukanye, zikubiyemo gutanga amayinite yo guhamagara, kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Ikarita y'umuhondo y'Ikigo cy'Itumanaho cya MTN; ikaba ibaho izina ry'umucuruzi na nimero ushobora gukoresha umwishyura; aho wishyura batagukase ahubwo ukishyura amafaranga y'ibyo waguze gusa.

Mu nzu ikorerwamo na sosiyete y'ubucuruzi n'itumanaho ya Emutiyeni harimo umugore wicaye wambaye umupira w'umuhondo imbere ye afite mudasobwa, hari n'undi mugabo utari umunyafurika ufashe agaseke mu ntoki ze.

Agakarita k'umuhondo kariho imibare, kakaba kifashishwa n'abacuruzi, aho haba hariho izina ry'umucuruzi ndetse na kode wakoresha umwishyura ntibagukate, ukishyura amafaranga y'igicuruzwa uguze gusa.

Akazu k'umuhondo, k'ikigo cy'itumanaho cya MTN, kakaba gakoreramo umukozi utanga serivisi zitandukanye, zikubiyemo kubitsa, kubikura cyangwa kohereza amafaranga, hirya yaho hari inzu y'umutuku.

Akazu k'umuhondo k'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, kakaba gakoreramo umukozi ugenda aha serivise zitandukanye abaje bamugana, zikubiyemo kubitsa, kohereza amafaranga no kugura amayinite yo guhamagara.

Akazu k'umuhondo k'isosiyete y'itumanaho ya MTN, hahagazemo umukozi ndetse n'uje amugana. Akaba ari gutanga serivise zitandukanye, zirimo kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Umugabo ndetse n'umugore bahagararanye, umugore afashe terefone ngendanwa mu ntoki, yambaye impuzankano y'abashinzwe umutekano, ndetse umugabo umuhagaze ku ruhande, yambaye umupira w'umuhondo, n'ingofero y'umuhondo.

Akazu k'umuhondo k'isosiyete ishinzwe iby'itumanaho ya MTN, kakaba gakoreramo umukozi utanga serivisi zitandukanye, zirimo kubitsa, kubikuza, cyangwa kohereza amafaranga.

Akazu k'umuhondo, gakoreshwa n'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda MTN. Harimo umukobwa wambaye agashati k'umweru. Akaba atanga serivisi zigiye zitandukanye za Mobayiro mani.

Ku ishami rya MTN imbere yaho hahagaze abantu bambaye imyenda igiye itandukanye higanjemo abambaye imipira y'imihondo n'amapantaro y'umukara, inyuma yabo hari undi mugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Akazu k'umuhondo k'isosiyete y'itumanaho ya mtn. Imbere yako hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara. Ari guhabwa serivisi zigiye zitandukanye zirimo; kubitsa, kubikura, ndetse no kohereza amafaranga.

Akazu k'umuhondo k'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN karimo umukozi wako utanga serivisi zigiye zitandukanye zikubiyemo kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Abakobwa batatu. Bakorera ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya Emutiyene. Babiri muri bo bambaye imipira y'umuhondo, ndetse umwe muri bo yambaye umupira w'ubururu. Bafashe ifoto barishimye.

Agakarita k'umuhondo k'isosiyete y'ikigo cy'itumanaho ya MTN, aka kifashishwa n'abacuruzi, aho kaba kariho imibare bakoresha babishyura ndetse n'izina ry'umucuruzi, ukabasha kwishyura udahenzwe.

Umuhanda wa kaburimbo, hino yawo haparitse ipikipiki ihetse igisanduku cy'icyatsi cya kampani yitwa vuba vuba, ifasha abantu kubagezaho ibyo bakeneye batiriwe bava aho bari.

Isoko rikorera kuri murandasi ricuruza imyambaro igiye itandukanye, yaba iy'abagabo, abagore, iy'abana cyangwa n'imiti. Ukeneye kimwe muri ibyo ngibyo ushobora kubagana bakabiguha.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara yambaye Koteri z'umweru, agapira k'ubururu ndetse afashe terefone mu ntoki ari kumwenyura, imbere ye hari agakapu k'umukara karimo ibintu bigiye bitandukanye.

Umugabo uhagaze imbere y'ipikipiki ihetse igisanduku cy'umutuku, akaba yambaye ingofero y'umutuku, umupira wa pinki, ipantaro y'ubururu, afashe amverope mu ntoki, biragaragara ko azanye ibyo bamutumye.

Umugabo uhagaze imbere y'ipikipiki, ihetse igisanduku cy'umuhondo, akaba afite enverope mu ntoki, ari gukuramo, yambaye ikoti ry'umukara, ijire y'ubururu, ndetse n'ingofero irinda abatwara amapikipiki guhura n'ibibazo.

Umugabo wambaye ijire ya oranje, umupira w'ubururu, ipantaro y'ikoboyi ndetse akaba yambaye ingofero irinda abatwara ibinyabiziga bya moto kuba bagerwaho n'impanuka.

Umugabo uparitse ikinyabiziga cyiwe cya moto mumuhanda w'amabuye, kikaba kikore igisanduku cy'icyatsi, na we yambaye ishati yicyatsi, ipantaro y'ubururu ndetse n'ingofero y'icyatsi.

Umumotari wambaye ingofero y'abamotari iri mu ibara ritukura; ari ku ipikipiki ihetse igisanduku kinini; kikaba cyifashishwa mu kubika ibintu bigiye bitandukanye atwaye.

Abantu batatu bicaye hamwe, ahacururizwa ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye nka telefone, mudasobwa ndetse n'amakamera, hakaba hicaye abakobwa babiri, umwe ari gukoresha mudasobwa.

Akagare karimo ibiribwa bigiye bitandukanye harimo imineke, amashu, inyanya ndetse na karoti, akaba hari ikigo gikorera kuri murandasi ushobora kubihahaho nawe.

Inzu nziza cyane, ifite uruganiriro runini, rurimo amabara y'umweru, amatara yaka neza ndetse hasi hakaba hari n'amakaro akeye, ukaba ushobora kuyibona kuri miliyoni ijana na mirongo itatu.

Inzu ifite igikoni cya kijyambere kigezweho ndetse n'aho kwicara heza, ikaba iherereye Kabeza, muri Kigali, ku madolari yawe magana atanu mirongo itanu ushobora kuyibona, uzajya ukodesha.

Icyumba cyiza cyane gisize amabara y'umweru, kikaba kirimo uburiri bunini bwiza cyane bushashe amashuka y'umweru ndetse n'imisego ibiri, ku ruhande hakaba hari idirishya ririho amarido abiri atandukanye.

Inzu ifite ahantu heza cyane ho kwicara utuje ndetse n'aho ushobora guparika imodoka yawe, ikaba iherereye Kibagabaga ku madorari igihumbi na magana atanu ushobora kuyibona ku kwezi.

Amafaranga, amadolari igihumbi magana atanu, ushobora kubona iki cyumba kiza muri Kigali, gitatse neza, gifite amatara meza ndetse n'uburiri bushashe neza, hakaba hari n'amahumbezi hanze.

Inzu nziza cyane igeretse ifite amabara, orange, umukara, ndetse n'umweru. Imbere yayo hari ibiti byiza cyane, ndetse ifite n'ahantu hanini ushobora guparika imodoka.

Abagabo babiri bahagaze umwe w'umwirabura n'undi w'umuzungu, umuzungu yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboye, naho umwirabura yambaye ishati y'umukara, agapfukamunwa n'ipantaro y'ubururu.

Inzu nziza cyane igeretse isize amabara meza umweru ndetse n'umukara n'andi imbere yayo hakaba hari ubusitani bwiza bubereye ijisho ushobora kuyibona mu mujyi wa kigali.

Igikoni kiza cya kijyambere kigezweho, gifite utubati two kubikamo ibikoresho byo mu gikoni, icyuma gishyushya ibiryo, ndetse na firigo nini yifashishwa mu gukonjesha ibiryo n'ibindi bitandukanye.

Inzu nziza cyane, ifite ibikuta bisize amabara y'umweru, ndetse ikaba ifite n'ibyumba byinshi, hari icyuma kifashishwa mu gukonjesha ibiribwa ndetse n'ibinyobwa.

Inzu nziza cyane igeretse ifite igipangu. Ndetse ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda. Ku madolari igihumbi ushobora kuyibona, ukajya uyikodesha buri kwezi ukishyura ayo mafaranga.

Inyubako nziza cyane iherereye mu mujyi wa kigali ifite igipangu cyiza, igisenge cyiza, ndetse mo imbere hari ahantu hanini waparika imodoka yawe kuri miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri ushobora kuyigura.

Inzu yubakishijwe amatafari akozwe muri sima ndetse n'ibiti. Bari kuyishyiraho amabati kugira ngo abo mo imbere batazajya banyagirwa. Ikaba igizwe n'ibyumba bibiri ndetse n'igikoni.

Inzu nziza cyane isize amabara y'umweru, ku ruhande hari ikigega cy'amazi ndetse n'urwego buririraho bajya kureba aho amazi ageze. Ikaba iherereye Kimironko ifite ibyumba bitatu.

Inzu nziza itatswe n'amabara agiye atandukanye; umutuku, ubururu ndetse n'amakaro meza cyane y'umweru, ikaba ihereye i Kigali-Kimironko; ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri ndetse ku bihumbi magana atatu mirongo itanu, ushobora kuyibona.

Inzu nziza cyane igeretse isize amarangi y'umweru ndetse imbere ikaba ifite n'ahantu hanini ho guparika ikinyabiziga cyawe, iherereye i Kigali Kimironko ikaba iri kugurishwa.

Inzu nziza cyane igeretse ikaba ifite igipangu cyiza cyane cy'amatafari, iherereye i Kigali Kimironko, ifite ibyumba bine ubwogero butatu ndetse ku bihumbi magana atandatu gusa ushobora kuyibona.

Inzu nziza cyane iri mu gipangu, ndetse hakaba hari n'umwanya munini ushobora guparikamo imodoka yawe, iherereye i Kigali, i Kanombe ifite ibyumba bitatu, bwogero bubiri, ndetse ku bihumbi magana ane ushobora kuyibona ku kwezi.

Inzu nziza cyane ifite amabarage atandukanye, ikagira amatara amurika neza ndetse hasi hari amakaro meza cyane y'umweru, imbere yayo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Inzu nziza cyane ifite igisenge kinini, ibirahure by'ubururu ndetse ikagira imbere ahantu hanini cyane ushobora guparika imodoka, ikaba iherereye i Kanombe ifite ibyumba bine.

Inyubako ndende cyane igizwe n'amagorofa menshi. Munsi hakaba hakoreramo ikigo cyitwa Agaciro. Kikaba gitanga serivise zigiye zitandukanye ku bakiganye, aho gitanga ubwishingizi.

Inzu nziza cyane ifite ahantu hanini cyane ushobora guparika imodoka yawe, ikaba iherereye Kigali Kimironko, ku mafaranga miliyoni mirongo icyenda n'eshanu mushobora kuganira bakayiguha.

Inzu nziza cyane ifite amabara meza, ibereye ijisho. Ikaba ifite n'ahantu hanini cyane ushobora guparika imodoka yawe. Iherereye Kabeza kandi ku bihumbi magana atandatu, wayibona ku kwezi.

Inyubako nini, ndende, igeretse; igiye ifite imiryango icururizwamo n'ibigo bigiye bitandukanye; munsi hakaba hari ahantu bacuruza imyambaro ya kinyarwanda ikoreshwa mu bukwe.

Ahahahirwa ibyo kurya bigiye bitandukanye, hakaba hari umukobwa, wambaye ikoboyi y'ubururu, agapira kajya gusa umweru ndetse arisukishije, afite inanasi imbere ye.

Ahacururizwa ibyo kunywa, ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, harimo umukobwa uhagaze. Yambaye agapira k'umweru, ipantaro y'umukara ndetse ari kugenda areba ibyo akeneye.

Ahacururizwa imyambaro igiye itandukanye, harimo inkweto ndetse n'indi myambaro; hahagaze umugabo wambaye ikote, ndetse ku ruhande hari n'abandi benshi cyane baba baje kugura ibicuruzwa.

Ahacururizwa ibyo kunywa bigiye bitandukanye, bikozwe mu mbuto zigiye zitandukanye bivangavanze ndetse n'ikawa, hari imashini zifashishwa mu gutunganya icyo kunywa kizwi nk'ikawa ndetse na mudasobwa.

Abantu benshi cyane bicaye hamwe ndetse n'abahagaze, higanjemo abambaye imipira y'umweru. Imbere yabo hari ibyapa byanditseho ejo heza ndetse bakurikiye umugabo wambaye umupira w'ubururu, ufite indangururamajwi, uri kugira icyo ababwira.

Ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka Ara esesibi kiri gutanga ubwiteganyirize bw'izabukuru aho gifasha abantu kwizigamira binyuze mu mishahara yabo baba baragiye bakoreye.

Umugabo ndetse n'umugore bombi bambaye udupfukamunwa, umugabo yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, umugore yambaye ikanzu y'igitenge bafashe icyapa kinini mu ntoki zabo.

Ahantu hicaye abantu benshi ndetse n'abandi babiri bicaye bambaye udupfukamunwa; umwe wambaye ikote ry'umukara imbere ye hari mudasobwa, umwicaye ku ruhande yambaye ishati y'ubururu; bari guha serivise abaje babagana.

Abamama bicaye, hari umwe ufashe mu kiganza cye ibipapuro bibiri , urw'umuhondo n'akandi gato k'ubururu, kakaba ari mituweri, ubwisungane mu kwivuza, aho udashobora kurembera mu rugo ugafite.

Ahacururizwa ibikoresho bigiye bitandukanye byo mu rugo, hari abasore babiri umwe yambaye umupira w'icyatsi urimo utubara tw'umukara ndetse ari kugenda ashyira ibyo ari guhaha mu kagare kabugenewe.

Ahacururizwa ibyo kurya bitandukanye biba bifunze mu mapaki, hari amayetajeri bigiye birimo, bipanze neza ndetse n'abantu batandukanye, baba baje kugendagenda barebamo ibyo bifuza.

Akagare kifashishwa n'abakora ubucuruzi bugezweho, aho kaba gahari hanyuma umuguzi akagafata akagenda ashyiramo ibyo kurya bigiye bitandukanye yagiye agura, akagatwara akajya kwishyura.

Umuhungu wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara, mu ntoki ze afasha akagare bagenda bashyiramo ibyo bamaze guhaha, ku mpande ziwe hari ibyo kunywa bigezweho bizwi nk'ama ji ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga.

Ahacururizwa ibyo kurya bigiye bitandukanye, mu buryo bugezweho, hakaba hari ibyo kurya bizwi nka pome, ndetse n'ibindi, ukaba ushobora kubagana, ugahitamo icyo wifuza.

Umugabo uhagaze ahantu hacururizwa ibiribwa bigiye bitandukanye, wambaye umupira w'umuhondo ufite ijosi ry'ubururu, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, inyuma ye hari abandi bantu ndetse n'umudamu uri guhaha ibyo kurya bitandukanye.

Ahantu bacururiza ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'ibiribwa n'ibyo kunywa, hari umugabo uhagaze, wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'isaha, afashe akagare mu ntoki.

Ahacururizwa ibyokurya bigiye bitandukanye bikubiyemo ibyo guteka ibisuguti ndetse n'ibindi ukaba ushobora kubagana ugahitamo ibyo wifuza byose ukajya kubyishyura.

Ahacururizwa ibyo kurya bigiye bitandukanye n'ibyo kunywa ndetse biba bifunze neza mu mapaki yabyo, hakaba hari umukobwa wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ijipo, afasha akantu ari kugenda ashyiramo ibyo yahashye.

Ahacururizwa ibyoku kurya bigiye bitandukanye, bifunze mu mapaki ndetse n'ibyo kunywa, harakeye cyane hari kwaka amatara meza, ukeneye ibi bicuruzwa, wabagana bakabiguha kandi ku giciro kiza cyane.